Inzu y'akabari bapima inzoga. Harimo intebe ,ameza ndetse na firigo. Harimo ndetse n'inzoga z'ubwoko butandukanye. Harimo izo bita ibyuma gatanu na skol.

Icyapa cyanditseho Faraja Hoteli, hariho inyenyeri imwe, hariho n'icupa rifite ikirango kiriho inyenyeri. Iryo cupa ryanditseho Henikeni, hasi yaho hari indabo zitandukanye.

Inzu ikikijwe n'amagare atatu, hariho abagore babiri, umugore umwe afite umwana mu ntoki ari kumuha ibere undi nawe arahagaze mu muryango.

Inzu ya Konegiti Shopu Kiniigi. Hariho abagabo batatu umwe yambaye ikote ry'umukara n'agapira k'ubururu, hari n'undi wambaye ipantaro y'igitaka n'ishati iciyemo umurongo, undi yambaye ipantaro y'igitaka n'ikote ry'umukara.

Mu mujyi harimo abantu, hakorerwamo ubucuruzi butandukanye, hariho abantu bicaye ku mazu asa nk'acururizwamo, abandi na bo batatu bari kuganira, hirya hari amaduka acuruza imyenda.

Inzu iriho icyapa bacuruza matera, hariho matera zigeretse ndetse n'umuntu uzicuruza, hariho ndetse n'inkingi zifashe inzu, izo nkingi zisize irangi ry'ubururu.

Inzu yanditseho ceza mama Walter iriho ibyapa by'inzoga, bacuruza inzoga. Hariho na nimero wabashakiraho n'amaburushete, inzoga za pirimusi, sikolo, na gatanu.

Inzu bacuruzamo ibintu bitandukanye harimo ponseze, ndetse n'ibindi bitandukanye bakoresha bari gukata. Harimo ibikoresho bitandukanye, harimo fibureze, n'ibindi. Ku muryango hariho ibipapuro byamamaza ibyo bacuruza.

Bari kudoda inkweto zitandukanye. b Bodaboda, amabase. Badoda ibintu bitandukanye ibibuni ndetse n'ibindi.

Amazu yo mu cyaro hicaye abagore babiri ndetse n'undi mukobwa, ku ruhande rwaho hari umunzani uhanitse ku cyuma bapimiraho imyaka ndetse n'ibindi bintu by'uburemere.

Mu isoko ry'imyenda harimo amakabutura bacuruza y'ubwoko butandukanye. Bacuruza n'udutambaro two kwipfunisha ndetse n'amasogisi, iri soko riri mu cyaro.

Mu isoko aho bacuruza ibiribwa bitandukanye bijyanye n'imboga n'imbuto harimo karoti, urusenda n'urupavuro ndetse n'ibindi bitandukanye ndetse n'indimu n'ibindi.